Inzu y'ubucuruzi bateguye ameza, abantu baza bakicara bakabashyikiriza icyo kurya n'icyo kunywa. Harimo abantu bambaye imyenda y'imikara, bicaye bari kurya bari no kunywa.

Inyubako nziza cyane yubatse neza, yubakishije amabuye yamakaro, ifite inkingi z'amatafari ahiye, hahagaze n'umukobwa wambaye ikanzu yi'icyatsi, hateye n'ibiti byiza by'imikindo.

Hoteli Virunga imbere yayo ifite etaje eshatu, imbere yayo haparitse igare, hariho n'abantu bambaye imyenda y'imihondo n'umweru n'umukara, hariho n'inzu y'ubucuruzi.

Ibicuruzwa bya matora zifite amabara anyuranye, icyatsi, ubururu, umuhondo, umutuku. Haparitse na moto, ni iduka rimanitseho imyenda ifite n'inyubako ndende.

Iduka ry'ubucuruzi, mo imbere harimo etajeri y'ibiti y'imbaho, inzugi zaryo n'ubururu harimo ibicuruzwa by'amoko menshi, birimo n'ibicuruzwa birimo n'amapine y'imodoka.

Iduka ririmo ibicuruzwa rimanitsemo itara, rimanitsemo amakaramu, amacupa abamo amayoga yatandukanye, harimo n'urupapuro rwerekana ko yatanze imisoro.

Inzu nini ifite uruzitiro rwiza ruzitije ibyuma byumweru, biteye irangi ry'umukara, imbere ifite amadirishya y'umweru afite na gririyaje z'umukara, ni inyubako nini cyane.

Inzu nini ya hoteri yubatswe neza, ifite inzugi z'umutuku, ifite igipangu cy'umukara, kiriho amabara y'umweru, yanditse mu nyuguti z'umweru, ni inzu nini yubatse neza, hirya hari inzu y'ubakishije amatafari ahiye.

Saro basukiramo imisatsi yitwa Ubwiza, hicaye abakobwa bambaye imyenda y'imituku, baje kwisukisha imitatsi, hateretse n'intebe z'imyeru bicayeho n'agatabureti.

Inyubako nini y'ubucuruzi hari aho bacuruza ibiribwa, hari aho bacururiza imiti, imbere yaho hateye n'igiti cy'umushishi, hariho n'abantu bahaparitse amagare, abaguzi n'abari gucuruza bose barahari.

Inzu nziza yubatse neza, ifite inkingi z'umweru, isize amarangi y'ubururu ,n'umukara, ifite n'amadirishya, n'amakaro, ni inzu yubatse neza kuruhande hubakishije amatafari ahiye.

Inzu y'ubucuruzi imanitseho imyenda, hariho imifuka irimo amakara n'ibindi bicuruzwa, umudamu uhari uri gucuruza yambaye ikanzu nini, arunamye ari gukora mu makara.

Amazu y'ubucuruzi, bayacururizamo inzoga za Sikoro hasize irangi ry'umuhondo, ku ruhande hari isize irangi ry'ubururu, ifite na poru hariho ifite na porutaye y'umutuku, imbere hashinze umutaka wa emutiyene.

Inzu nini y'ubucuruzi，iri gucururizwamo kantine，hirya hari umugabo wicaye ku gatabureti，yambaye imyenda y'ubururu hano ku wundi muryango wa hino， hamanitse umutaka wa emutiyene，imbere ku muryango hateretse n'igisanduku cy'umutuku.

Inzu yubucuruzi yubatse neza, ifite inzugi z'ubururu, kumuryango hariho ibyapa bitandukanye, bigaragaza ibicuruzwa biri mu nzu, hariho n'umugabo uhagaze ku ruhande.

Inzu nziza yubatse neza, irimo abagore bahagaze mu muryango, umwe yambaye ikanzu y'ubururu, undi ahetse umwana, n'inyuma ye hateretse intebe iri mu ibara ry'umweru, n'iyo nzu irimo ibara ry'igitaka, ry'umukara.

Isoko riisakaye ry'biribwa birkugaragaramo imyenda ya kijyambere, amacunga, hari kugaragara n'umuntu wambaye imyenda y'umutuku uri gucuruza n'imifuka ipanze.

Inyubako nini cyane ya etaje iriho igiti cy'amashanyarazi kijyanyeyo umuriro, bigaragara ko handitseho n'icyapa cyanditseho salo batunganyirizamo imisatsi, no kogosheramo imisatsi.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibiribwa bya kantine, imbere yaho hahagaze akana kambaye ikabutura n'agapira k'ubururu, gafite icyapa cy'umutuku imbere, gafite n'umusatsi uzinze, muri ya nzu hamanitsemo amarido y'imirunga.

Inyubako nini cyane, yubatse neza iriho icyapa cyanditseho icupa rya mositeri, imbere ku mbuga namakaro, ku muryango hateye indabo nziza, zifite indabo z'umweru.

Umunyonza avuye gupakira ibisheke ku igare arimo kubisunika . Yapakiye ku igare no mumufuka, yambaye agasengeri k'umweru ariko arananiwe, araparitse hariho n'agapira yashyize ku igare k'umutuku.

Inzu yubatse neza, iteyeho, irimo parafo, iteyeho ibiti, indabo ku ruhande, imbere hubakishijejwe n'amatafari ahiye, ku muryango hateretseho utubindi duteyemo indabo, ni inzu yubatse neza.

Abagabo babiri bari kugenda mu muhanda bambaye inkweto zifunze. Bambaye amapantaro, umwe yambaye ipantaro y'ubururu n'umukara n'umupira w'ubururu, undi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara uriho ibendera ry'igihugu , n'ingofero y'umutuku.

Ahantu bakirira abantu baje kwiyakira, hari akameza gaparitse hanze, hari umusore uhicaye wambaye isaha, n'inkweto zifunze, n'ipataro y'umukara, n'agashati ka karokaro, n'agakoti k'umukara. Inyuma hari ibiti, hari n'inzu nziza ya etaje.

Icyumba kirimo ameza giteguye neza, kirimo intebe z'ubururu, gishasheho ibitambaro birimo amabara y'icyatsi ,n'umutuku, n' iroza ,n'umweru. Hari n'ibintu biteretseho ku meza.

Abantu bari gucururiza voka, ibishyimbo, imineke, imbuto zinyuranye amaronji, inanasi n'ibinyomoro, harimo n'umugore wambaye ishati y'ubururu wicaye ari gucuruza.

Ubworozi bw'inkoko ziri mu kiraro cyazo, inkoko zitera amagi, amagi afite intungamubiri nyinshi, ziduha n'inyama zo kurya, inkoko zikaduha n'ifumbire, inkoko ni itungo ryiza cyane ritavunnye.

Abantu bari kwinjira ahantu bari gucururiza hamanitse ibintu byinshi. Abagabo batatu bari kujyayo bambaye imyenda y'umuhondo. Umwe yambaye imyenda y'umuhondo irimo imirongo y'umukara, undi yambaye umupira w'umweru, umukara n'ipantaro y'ubururu y'ikoboyi n'inkweto zifunze.

Amazu y'ubucuruzi ya etaje, bari gucururizaho ibintu bitandukanye: outamadobo, amabase, umugore ufite igitambaro cy'umweru n'ishati y'umukara n'igitenge cy'amabara, abantu bari kugenda muhanda.

Inzu yubatswe neza ipanzemo ibicuruzwa, iteye amarangi y'umuhondo, mo imbere yayo hateretse intebe y'itabureti hariho n'icyapa cy'umuhondo, hapanzemo ibicuruzwa byinshi.

Isoko ry'imyenda inyuranye amakabutura, amapantaro, ibitambaro byo kwitega, amasurujipe, amakabutura y'imituku n'ubururu n'amasurujipe y'imihondo n'indi myenda irunze hasi n'imanitse ku biti.

Mu isoko bari gucuruza intoryi ku mabase betarave, abantu bambaye imyenda inyuranye irimo amabara y'umutuku, umukara, inkweto zifunze, intoryi ziri ku mabase y'icyatsi n'umutuku.

Mu bantu bari gucuruza, harimo imbuto, harimo ibiribwa, harimo abakobwa bikoreye amabase y'ubururu, bambaye imyenda y'imituku n'imyeru, harimo n'umudamu uhetse, ukenyeye igitenge kirimo amabara, yambaye n'ishati y'icyatsi, yiteye n'agashuka.

inyubako nini cyane，hariho n'iya etaje，haparitse imodoka， hariho n'abantu bari kugenda abandi bari gucuruza， haparitse imodoka z'ubururu， n'umugore wambaye imyenda y'icyatsi，wipfutse n'igitambaro.

Amazu y'ubucuruzi hari abantu bambaye imyenda inyuranye, haparitseho n'igare, hariho umusore wicaye kuruhande wambaye imyenda y'ubururu ,na bodaboda z'umweru, impande ye hateretseho itabureti nini ,hariho n'umugore uhetse umwana wambaye ukindikije n'igishura cy'ubururu.

Ibi ni ibiraha biba bikozwe mu birayi n'ifarini, ibiraha tura birya biraryoha, abantu barabicuruza, bakabikuramo n'amafaranga.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite amabara y'icyatsi, umutuku, ubururu, umweru, igitaka, na za mpuri zirimo, n'amaradiyo, byose ndi kubona birimo.

Abantu bari gucuruza imyenda, bambaye imyenda inyuranye irimo amabara, harimo n'abana, umwana wambaye agakanzu kadafite amaboko, hariho n'umukobwa ufashe ibindi bintu mu gapaniye by'ibirungo.

Abacuruzi bari mu isoko ry'ibiribwa, bamwe bari gusogora intonore, abandi baricaye, harimo n'indobo, amabase, n'ibindi bikoresho byinshi binyuranye, bambaye imyenda y'ubururu, y'umutuku, abandi bazingishije imisatsi, bambaye imyenda inyuranye.

Ibijumba byiza by'imituku n'iby'imyeru, n'iby'imihondo, ibijumba biraribwa, bitera imbaraga mu mubiri.

Isoko ririmo ibicuruzwa by'ibikoresho，amabase，amasahani，amasafuriya， amaparasitike， ubupaniye， n'ibindi byinshi. Harimo amabase y'ubururu， y'umutuku， amasahani y'ubwoko bunyuranye.

Isoko ry'ibiribwa harimo igisanduku, hariho za kokombure zirambitse ku mwenda, hariho n'imyembe n'ibibiringanya. Ibi biribwa bifite akamaro kenshi mu mubiri, biduha n'amafaranga.

Isoko ririmo ibicuruzwa by'amoko menshi, amabase, amasafuriya, amasahani, n'ibindi byinshi, hariho n'umudamu uhagaze wambaye agapira k'umweru, yambaye n'agakapu mu ijosi, akenyeye n'agasharupe, n'undi muntu wicaye, wambaye imyenda y'imihondo.

Imifuka iparitse ku nzu y'ubucuruzi, imifuka irimo imiceri, amasukari, umunzani uteretse ku uteretseho ibase y'umukara, n'abantu bari kugura, bari gucuruza ibintu byinshi.